Abayobozi bamaze gukora inama baravuga bati noneho muze dufate agafoto k'urwibutso kugirango uyu munsi utazibagirana mu mateka yacu, tuzabona uko tubibwira n'inshuti zacu n'abantu bacu.

Udushashi tw'amaraso agiye guhabwa abarwayi kugira ngo barebe ko bakongererwa amaraso, hanyuma ubuzima bugakomeza kuko bakeneye amaraso cyane, ni yo agomba kubafasha kugira ngo bakire.

Muganga wacu udufasha mu bijyanye n'imiti dushobora gukoresha mu gihe twarwaye kandi nanone akatugira inama mu bintu bijyanye n'imirire bituma turushaho kugira ubuzima bwiza.